Ifumbire y'imborera, ikomoka ku matungo magufi. Ihene, ingurube, intama cyangwa se n'inka. Iyo fumbire igira umumaro mu butaka, kugira ngo haboneke umusaruro uhagije.

Ifumbire y'imborera itangwa n'amatungo maremare cyangwa se amagufiya igira umumaro mu bihingwa mu gukura vuba ndetse bigatanga umusaruro umuhinzi akeneye.

Imashini ifuhira imyaka izwi ku izina rya drone, yifashisha mu gufuhira imiti cyangwa se amazi iyo aho hantu havuye izuba ryinshi.

iyo dufuhira imyaka tuba dukoze igikorwa cyiza cyane, kubera ko udukoko tubuzwa kurya imyaka. Imyaka irakura neza kandi igatanga umusaruro.

Ifumbire mvaruganda igomba kuba ibitswe neza, kandi ikagira umumaro wo gukuza ibihingwa, bikagira umutekano.

Umuti ukoreshwa mu buhinzi, ugira umumaro wo kwica udusimba dushobora kwangiriza ibyo bimera.

Uburobyi ni umwuga utunzwe n'abantu benshi uzana amafaranga. Ukorerwa mu biyaga, mu migezi cyane cyane, ku baturage baturiye ako gace.

Imashini zuhira mu buhinzi zigira uruhare mu iterambere muri ako gace ndetse n'igihugu muri rusange kigatera imbere.

Ubworozi bw'amafi iyo bwitaweho butanga umusaruro cane cane iyo bukorewe mu biyaga, ni ngombwa ko dutandukanya ubwoko bw'amafi aho buba buri mu mazi.

Ubucuruzi bw'amafi ni ubucuruzi bwiza kubera ko ubukora bumuha amafaranga akiteza imbere akubaka ejo hazaza ndetse n'ah'umuryango we.

Amafi avuye kurobwa hari aho bagomba kuyatunganyiriza, bakayajana ku isoko maze tukayagura nje ndayakunda cane kubera ko ari meza.

Umwuga w'uburobyi ukorerwa mu bishanga ndetse no ku biyaga, uteza imbere abantu. Ariko bikaba byiza iyo bikozwe neza bitari mu kavuyo kandi bigatanga umusaruro ku muntu wese ubikora.

Amafi araryoha ndayakunda nje n'umuryango aboneka mu biyaga hirya no hino agomba gukorerwa isuku mbere yuko aja no ku isoko abacyiriya bakayagura ameze neza asukuye.

Amafi gi'iwacu gararyohaga cane. Cane cane iyo uyakaranze. Ugashira mo utunyanya, ugashyira mo igitunguru, ibyo byose binezeza umuryango wanje kandi nanje nkishima.

Gutema ibihuru ni igikorwa kibanziriza ubuhinzi， cane cane iyo umuririma ushaka kuwuhinga mu buryo bwiza butaruhanyije.

Urutoki rugizwe n'inyamunyu ntabwo ruvuguruye, kubera ko rutakorewe ngo ruhabwe ibyangombwa birimo ifumbire mbonerera, ndetse no kuba umuntu yarukorera akarushangura.

Ni byiza ko dutema ibihuru mbere yuko duhinga, tugategura ubuhinge kugira ngo bitworohere bidufashe guhinga neza tudategwa n'ibiti.

Iwacu mu majaruguru y'u Rwanda dukunda guhinga igihingwa cy'ibirayi. Cyane ko aricyo cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Ndakibakumburije rero kugira ngo muze dufatanye kuki hinga.

Igiti cya shipuri ni igiti kiboneka ahantu aho ariho hose cyane cyane mu bitari, ikagira impumuro nziza, kandi ikaba n'umuti ukiza umutwe ku bantu bawurwaye.

Ubuhinzi buvuguruye butavanzwe mu nsina, butanga umusaruro cane cane iyo bwitaweho, ugashyiramo ifumbire, ndetse n'ubundi buryo bwatuma bimera neza.

Ibigori biraryoha cyane, iyo byeze, ntacyambuza kubirya cyane nkiri umwana muto, ndabigukumbuza nawe kugira ngo wumve ukuntu biryoha.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukoranwe umwuga, butanga umusaruro kandi bukanatanga n'inyungu k'umuntu ubukora, ariko utabwitayeho nta musaruro buguha.

Ubuhinzi bw'amajeri butanga umusaruro ku muhinzi ubikora, iyo abikoranye umwete, yifashishije ifumbire y'imvaruganda cyangwa imborera. Bimuha amafaranga, akiteza imbere, ndetse n’igihugu cyacu kigatera imbere.

Umurima udahingiye nta musaruro utanga cane cane iyo uhinzemo imyaka nk' ibihaza, cangwa se insina biba byiza iyo ubikoreye, ukabishiraho ifumbire bikaguha umusaruro.

Mu murima w'iwacu ntago habamo urutoki. Ahubwo ni umurima wo guhingamo ibihingwa nk'ibishimbo, ibigori, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bwiza cyane, butezimbere ubukora cane cane iyo bukoranye umwuga, gushyiraho ifumbire y'imborera cyangwa se ifumbire mvaruganda ziteza imbere nyiri umurima.

Ubuhunzi bw'ibigori ni ubuhinzi bwiza cyane iyo bukoranywe umwuga. Dushizeho ifumbire ndetse tugatera kijyambere, bushobora gutanga umusaruro mu gihe bufashwe neza.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bwiza cyane, iyo hatavanzwemo iyindi myaka burera cyane, butanga umusaruro kuri nyirabwo iyo abukoze neza.

Amateke ahingwa ahantu hahehereye, cyane cyane nko mu bishanga, hafi y'imigezi ndetse n'inzuzi . Araryoha cyane.

Igihingwa c'imyumbati ni igihingwa cyiza cane gihingwa mu misozi miremire, kikagira umumaro wo kudutungira amagara ndetse no gudutera imbaraga za buri muntu.

Ni byiza ko duhinga ibigori twifashishije imvaruganda, cyane ko arimwe mu buryo dushobora kubonamo umusaruro watugeza ku iterambere rirambye.

Imyumbati ni myiza irera igashimisha ikagurishwa ku isoko, igapimwa ku biro iyo umukiriya ayikeneye, niyo mpamvu tuyikunda idutera imbaraga tugakora tukiteza imbere ndetse n'imiryango yacu ikishima.

Voka igezweho ni imbangurire, imwe yerera bugufi. Iyo voka yera ku buryo bwiza kubera ko iba yaritaweho mu buryo bugaragara.

Wotameloni ni ubwoko bw'imbuto bugira umumaro mu mubiri w'umuntu cyane cyane ku bagore, aho bakunda kwifashisha urwo rubuto.

Ubwanikiro bw'imyumbati ya gitaminsi, bugomba kuba bukoze neza kandi bufite isuku, kugira ngo ibyo biribwa bibe byujuje ubuziranenge, kandi bikagira umumaro wo kudutungira amagara yacu.

Ubucuruzi bwo ku muhanda ni ubucuruzi bugomba kwirindwa, cyane cyane ko dushishikarizwa kugurishiriza ahabugenewe. Muri byo tugomba kubikora tubyitayeho.

Indimu igira umumaro mu mubiri wacu. Idukiza indwara zitandukanye, kandi izo ndwara zishobora kutugirira na bi iy'igihe kigeze. Niyo mpamvu mbashishikariza guhinga igihingwa cy'indimu.

Umuhinzi atunganya umusaruro w'inyanya kandi zifashishwa mu gukora isosi ndetse no mu bundi birungo bitandukanye.

Ubuhinzi bwa avoka bw'imbangurire bugezweho, kandi izo voka zerera hasi zikera mu buryo bushimishije umuhinzi.

Ubwoko bw'amateke bita amabungubungu yera ahantu h'imisozi kandi horohereye akagira umumaro wo kuribwa.

Ingurube za kijyambere iyo zitaweho zikorwa neza, zigahabwa ibyo kurya, zigakorerwa isuku zitanga umusaruro harimo amafaranga, ifumbire ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'ibihwagari ni ubuhinzi bugezweho, aho bikorwamo amavuta yo kurya ndetse n'ibindi bikoresho twifashisha mu guteka, ibihwagari ni byiza cyane.

Igihingwa cy'amajeri ni cyiza cyane, kubera ko tuyifashisha mu buzima bwa buri munsi, ku bantu bayakeneye, kandi uyasanga mu gace k'imisozi.

Igihingwa cy'imyumbati cyaracitse hano iwacu mu Majyaruguru, cyane ko ari ubutaka bw'amabuye. Niyo mpamvu tubibona tukabona biranejeje.

Ibirayi ni igihingwa kigezweho cane cane, iyo gihinganwe ubuhanga, kandi bigafatwa neza mu gihe biri gukorerwa.

Ubwandiko bw'imyumbati ni ubwaniko bugomba kuba bufite isuku, cane cane ko butuma imyumbati iba ifite isuku kandi ikifashishwa mu biribwa.

Ibinyomoro biraryoha, birafumbiye, biri mu murima mwiza, birasasiye, bidutungira amagara iyo byeze, bihishirije neza, ndabikundaga.

Igihaza gihingwa mu gace k'ibibaya mu misozi birashoboka, ariko bigaragara ko gifite uburwayi.

Karoti ni igihingwa kiri mu ubwoko bw'ibijumba, kera cyane cyane mu bibaya, kigira umumaro wo gutunga ubuzima bwacu, cyane cyane iyo gihinzwe neza kigahabwa ifumbire, gitanga umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibirayi bugezweho mu nce zitandukanye, aho butanga umusaruro ku muhinzi ubukora cane cane iyo hakoreshejwe ifumbire mbonerera ndetse n'imvaruganda.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa kiba mu Majyaruguru, kandi abantu benshi baragikunda kubera ko ari ibyo kurya bya buri munsi byabo.

Puwavuro ziraryoha iyo zihinganwe umwete, zigahabwa ifumbire ndetse n'ibindi bikoresho bituma ziboneka, zigurirwa ku isoko zirahenda cyane kuko ziboneka hamwe na hamwe.

Igihingwa cy' igihaza, gihingwa mu nce zimisozi, kandi kirakenewe ku isoko rusange. Ni yo mpamvu, tubihaha twitayeho.

Gutera ibiti ni gahunda nziza cyane, igihugu cyacu gishaka gishaka kurinda ikirere ngo kitangirika. Uyu mwuka duhumeka tukawubungabunga, tukawifashisha igihe tuwukeneye duhumeka, ndetse n'ibindi bizima muri rusange.

Ubuhinzi bw'ibigori, bugezweho hirya no hino, butanga umusaruro iyo umuhinzi abukurikiranye ashyiramo ifumbire y'imborera cyangwa mvaruganda, ariko bugahombya iyo butitaweho, hadashizwemo ifumbire n'ibindi byatumye ubuhinzi bujya mbere.

Imboga za dodo zigomba gukoregwa neza, zishyirwaho ifumbire ndetse n'ibindi byatumye zimera neza. Ariko iyo zidafashwe neza zitanga umusaruro muke, kandi nyirazo iterambere rye ntarigire nk'uko yari yabibyifuje.

Umuhinzi uri kwita ku gihingwa cy'ibigori. Ni byiza ko twita, ku buhinzi bw'ibigori, kubera ko twese twifashisha ibigori bivamo kawunga ndetse n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Abajanama b'ubuhinzi bagira uruhare rwinshi mu gutoza abaturage mu guhinga kijambere, kandi bikabyara umusaruro.

Abahinzi bavuye gusarura imboga, inyanya kandi ibyo byose bigira umumaro wo gutunga ubuzima bwacu bwa buri munsi.

Umubyeyi ari mu murima w'ibishimbo, arawugenzura arashaka gusoroma umushogoro, kandi uwo mushogoro ugira uruhare mu kubaka ubuzima bwacu.

Ibigori byumye neza ni ibigori bicuramye biba bifite impeke zikomeye, bigaragara nk'aho ari ibishangari uwo niwo musaruro uba ugaragara ko ari mwiza cyane ko uba warumiye mu murima.

Igitoki cy'inyamunyu ni igitoki kiribwa cyera ahantu hatandukanye, haba mu musozi cyangwa se mu bibaya, kandi kigashirwa ku isoko iyo cyeze.

Ibigori birashimisha, iyo bihinganwe umwete, bigakoregwa neza, bigashigwaho ifumbire y'imvaruganda, imborera cyangwa se ibindi bikoresho, ugafuhira udusimba, biguha amafaranga ndetse ukiteza imbere wowe ubwawe n'umuryango wawe.

Imboga z'amashu zitanga umusaruro, iyo zihinganwe ubuhanga kijyambere, ugashiramo ifumbire mvaruganda, imborera, kandi zikarindwa amazi.

Ubuhinzi bw'inyanya ni ubuhinzi bugezweho ariko ni igihingwa gifatwa neza kubera ko gikunda kugwara indwara zitandukanye harimo kabore ndetse no guhunguka.

Ku isoko haboneka uruvange rw'imbuto imineke, ibinyomoro ndetse n'ibindi. Ibyo byose bitanga amafaranga iyo umucuruzi acuruzanye umwete bimuhereza iterambere, agatera imbere w'ubwe ndetse n'umuryango.

Igihingwa c'imiyembe ahanini ni imbuto, cane cane ihingwa mu duce tw'imisozi, ariko no mu bibaya wazisangaho.

Ubuhinzi bw'ibirayi buhinzwe kijambere, bitanga umusaruro cane cane iyo hashizwemo ifumbire y'imborera ndetse n'ifumbire y'imvaruganda.

Njewe nkunda ibigori byokeje, byokeje neza ku mbabura, byaketse buhoro kandi byahiye.

Imboga nka dodo zifashishwa mu miryango myinshi itandukanye kandi ikagira uruhare mu miryango ikeneye kurya imboga.

Intama za kizungu ni ubworozi bwiza cyane, butanga umusaruro iyo ukoranwa ubushishozi, uzorora akazitaho zitanga ifumbire ndetse n'ibindi bikomoka ku fumbire.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ubuhinzi bwiza cyane buzana iterambere, iyo buhinganwe ubwuzu nta zindi mbuto uvanzemo, butanga umusaruro.

Ibirayi iyo bimajije gukurwa, bishyirwa mu mifuka, barangiza bakabifunga neza, ubundi bikajyanwa mu masoko hirya no hino Abanyarwanda bakabihaha.

Voka ihiye ni nziza iraryoha. Ariko igatanga umusaruro, iyo ikorewe neza, ikarindwa ubusimba, iguha amafaranga ukiteza imbere n'umuryango wawe, ndetse n'igihugu muri rusange.

Igihingwa cy'amapera gihingwa mu misozi miremire, cyane cyane yo mu ntara y'amajyaruguru. Icyo gihingwa niho wagisanga kandi kigakundwa cyane.

Igihingwa cy'imyumbati cyangirijwe n'imvura nyinshi ivanzemo n' urubura, kandi imyumbati ni myiza cyane kuko tuyifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Abaturage bari guhinga ahantu h'ikibaya kugira ngo biteze imbere kandi ni ikibaya gihingwamo ibyo kurya nk'ibishyimbo , ibigori ndetse n'ibindi bihingwa bihera

Abahinzi bari gusarura ingano kandi ingano zera mugice gikonja cy'imisozi miremire, kandi ingano ni nziza ku buzima bwacu.

Njyewe ubwanjye n'umuryango wanjye, dukunda kurya ikipapayi, cyane cyane iyo cyeze, gifite ibara ry'umutuku, icyo turagikunda.

Imyembe ni ubwoko bw'imbuto, bukunda guhingwa mu gace k'ibibaya cyangwa se mu misozi. Igira umumaro mu kurinda indwara cyangwa se n'ibindi bishamikiye aho.

Umusaruro w'ibishyimbo ni ngombwa ko tuwusarura twamara kubihura tukabirobanura tugakuramo ibyangiritse cyangwa se ibyaboze kugira ngo dusigarane imbuto tuzatera mu kindi gihembwe.

Imiteja ni imwe mu bishimbo bitari byera byifashishwa mu gukora imboga, kandi biraryoha kubera ko binagurishwa ku masoko.

Gusoroma igihingwa c'icayi, ntabwo ari ibintu bya buri wese. Ahubwo bisaba ubuhanga , ku bantu babyitoje igihe kirekire. Kandi gihingwa mu nce z'imisozi.

Ubuhinzi bw'imyumbati butanga umusaruro cane cane iyo bukoranye umwuga, imyumbati ikaba ikunze kwera mu gace k'imisozi ndetse no mu tubande aho bitanga inyungu ku mukozi wabikorese neza.

Abaturage barishimira ibiti bahawe kugira ngo biteze imbere harimo amoko y'avoka ndetse n'ibiti bifata amasuri.

Imbuto z'ibihwagari zigira umumaro mwiza cyane, kubera ko havamo amavuta yo kurya ndetse n'ibindi byose byifashishwa.

Ubwikorezi bw'imyaka butwawe n'amagare ni ingenzi cyane, bworohereza abahinzi kugeza umusaruro iwabo mu rugo kugira ngo ubikwe neza.

Kugosora ibigori ni igikorwa gikorwa n'abahinzi iyo batoranya imyaka myiza, ndetse bigatandukanywa n'ivumbi.

Gushingirira ibishyimbo ni igikogwa gikogwa n'abahinzi babigize umwuga. Cyane cyane abo majaruguru. Iki gikogwa ni co cibaranga. Ndabashishikariza guhinga ibishimbo.

Imbuto ziri mu bwoko bw'inyinya kandi zifashishwa kenshi, mu buzima bwa buri munsi. Aho zivura mu nda kandi, zikavura n'abantu barwaye imivuduko.

Ubuhinzi bw'ibigori bigezweho ni ubuhinzi bwiza cyane. Iyo bimajije kwera, urabisarura, ukabishyira mu mifuka, ukabibika ahabugenewe, kugira ngo bijyanwe ku isoko.

Igishusha ni icyatsi kirandaranda, gitanga umusaruro iyo cyubakiye, kikarandarandira ku biti, kikera imbuto ziribwa, zibamo umuti, zivamo n'imboga, nje ndabikunda cane.

Ibinyampeke ni byiza cyane, birimo amako atandukanye, ibishyimbo bikagira amabara nayo atandukanye umukara, umweru, umutuku, umuhondo, ibyo byose bikera iyo ushyizeho ifumbire, kandi bikaguteza imbere wowe n'umuryango wawe.

Igihingwa cyi'ibigori ni cyo gihingwa cyera cane cane ahantu hatandukanye mu gihugu cyacu, cane cane iyo cyitaweho.

Igihingwa cy'ubunyobwa ni cyiza cane. Cyera cyane cyane ahantu h'utubuye, kandi wagisanga mu ntara y'Iburasirazuba. Niho hera ubunyobwa.

Ibishimbo bigufi byerera hasi bitanga umusaruro, cyane cyane iyo umuhinzi abihinganye ifumbire y'invaruganda cyangwa se imborera akabikorana neza ubwitonzi, bimuha amafaranga.

Ubunyobwa ndabukunda njye n'umuryango wanjye, ni ngombwa ko tubwitaho kandi burifashishwa mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane mu miryango itandukanye.

Igihingwa cy'ingano ni cyiza cane, cyera mu gace k'imisozi ndetse n'ibibaya, kigira umwihariko wo kuvamo ifarini ndetse n'imikati, bikaryoha cane bikifashishwa mu nganda.

Ibishyimbo bya sarahi ni ubwoko bwiza cyane, butanga umusaruro iyo buhinzwe kijyambere, bagashyiramo ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera, bigatanga umusaruro.

Ibishimbo biri mu bwoko bigufiya byera mu nce z'ahantu hashuha, cane cane nko mu Ntara y'Iburasirazuba, ibishimbo ntabwo babishingirira.

Ubunyobwa bwifashishwa cyane cyane mu buzima bwa buri munsi, iyo tugiye kubukuramo isosi turabwifashisha kandi buranaryoha.

Ibishimbo bitewe kijambere bigufiya kandi birobanuye, bitanga umusaruro cane cane iyo ubihinze mu murima mwiza, ukawuha ifumbire ndetse n'andi mafumbire mvaruganda.

ubuhunikiro bw'ibigori bugomba kuba bufite isuku, butanyagirwa, kugira ngo uwo musaruro utaza kwangirika. Bityo tugomba gusigasira aho hantu habikwa ibigori.

Umurima w'amashaza, mashaza ateye ku muronko kijambere, kandi amashaza ni bimwe mu binyampeke bigira uruhare mu kubaka ubuzima bwacu.

Ubworozi bw'ingurube bwitaweho. Butanga umusaruro, amafaranga, ifumbire, ndetse zikavuzwa kugira ngo hirindwe uburwayi bwa hato na hato.

Ubworozi bw'inkoko iyo bwitaweho butanga umusaruro harimo amafaranga, amagi ndetse n'ibindi ndetse n'ubworozi bw'ihene butanga umusaruro iyo bukoranwe umu....

Veterineri ari kuvura inka. Ari kuyishyiramo amahereni. Iki gikorwa gikorwa n'ababyigiye.

Kubyaza inka ni igikorwa cyifashishwa na ba Vetereneri babyigiye, kandi babifitiye ubuhanga buhanitse. ntabwo wabikora utarabyize

Ubworozi bw'ingurube za kijambere ni bwiza cane, buteza imbere sosiyete nyarwanda cane cane iyo umworozi abikoranye umwuga, azitaho, ibiraro bifite isuku ndetse n'ibiryo bihagije.

Ku bitaro niheza niho dukesha ubuzima, abaganga baratuvura bakadusanasana. Tugasubirana amagara kugira ngo ejo twiteze imbere, n'igihugu cyishime kigere ku ntsinzi kibikeshe abaganga. turabashimira byimazeyo ku bw' umuhate wabo.

Ingurube za kijyambere ni zo zigezweho muri iyi minsi, ariko zigomba gukorerwa isuku nk'uko bikwiye kugira ngo hirindweko hari indwara yazifata.

Ubworozi bw'ihene, ni ubworozi bugezweho cane cane iyo bukoranye umwuga, usukura aho ziba kandi ukaziha ubuvuzi buzikwiriye.

umugabo uteruye ihene, uri kuyigura, ni ubwoko bw'amatungo magufi, kandi agira umumaro mu iterambere ry'abaturage b'u Rwanda.

Intama z' inzungu ni nziza cane zitanga umusaruro iyo umworozi azitayeho akazigaburira neza akazivuriza ku gihe iyo zarwaye, ziguha umusaruro amafaranga akiyongera mu muryango ugatera imbere.

Muri iyi minsi ubworozi bugezweho ni inka za kijyambere, kandi ziri mu biraro na byo bivuguruye, kuba hasi biteyemo sima, ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu bworozi bw'inka.

Inkoko ndazikunda cyane ziraryoha cyaneko nanjye iwanjye nkunda kuzorora. Iyo zimaze gukura ndazigurisha nkazishakamo amafaranga, Kandi ayo mafaranga nkayifashisha njye n'umuryango wanjye.

Uburwayi bw'amatungo nk'ihene, hifashishwa ababyize, abaveterineri mu kuvura neza ayo matungo, kandi bakayasubiza uko yari ameze.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane, bugaragaza iterambere iyo umuntu abukoze afite intego cane cane, akazifata neza, akazivuza, zikaba ahantu heza cyane, zitanga umusaruro, nawe akiteza imbere.

Ubworozi bw'inka bugezweho butanga umusaruro cyane, buduha amata, ifumbire, iyo bukoranwe umwuga, kandi tugafata neza izo nka zacu.

Isoko rigurisha amatungo magufi, intama, ihene, rigomba kuba rifite isuku, kandi n'abarirema bafite isuku, rigakorerwa ahantu habugenewe.

Inka iri kumwe n'inyana yayo igezweho, cyane cyane ko ari inka z'imikamo, zitanga amata menshi ndetse n'ifumbire.

Ubworozi bw'amatungo, ihene ni ngombwa ko tuzorora tuziha ubuvuzi kugira ngo zigire ubuzima butandukanye kandi zitange umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cane， bwungura umworozi iyo azifashe neza， akazikorera isuku aho zirara， akaziha ibyo kurya by'intungamubiri， akazirinda uburwayi，akazivuza， zimuha amafaranga agatera imbere n'igihugu kigari kikanezerwa.

Igisiga cya kagoma kigira imbaraga cyane, kikaguruka ibirometero byinshi, ntikinanirwa, kigurukana ibyo kibonye byose kikajya kubirya.

Igikeri ni inyamaswa iba mu butaka ndetse no mu mazi ikagira ubumara bubi cane bwakwangiriza umuntu.

Ubwoko bw'inyoni butandukanye wabusanga ahantu nyaburanga. Nko muri parike y'igihugu cyacu Akagera, ndetse na muri Nyungwe.

Inyoni y'inyamanza ni nziza cyane igira urukundo ku bantu, n'abantu barayikunda. Ikaba inyamahirwe iyo igeze mu rugo urasukwa ukabona abavandimwe.

Imitubu ni utunyamaswa tuba mu mazi, hake na hake wadusanga ku butaka. Turangwa n'amabara atandukanye, ndetse tugasimbuka cyane, iyo hagize udukanga.

Inyoni y'igishwi igira amahane cane. Yonera abaturage kandi ni inyabwenge. Itera mu cyari, igakunda abana bayo, kugeza bakuze.

Urukwavu rwo mu ishamba ni inyamaswa izi kwirwa cyane kandi izi ubwenge. Birashoboye kuyifata cyane cyane iyo akubonye. Iriruka cyane kurenza n'imodoka.

Ubuhinzi bw'umuceri ni ubuhinzi bukorerwa ahantu h'igishanga, hari amazi kubera ko umuceri ukenera ahantu hahehereye kugira ngo yere neza, atange umusaruro.

Agacurama ni agasimba kaboneka rimwe na rimwe, kakaboneka ni joro, kandi gasinzira amezi atandatu, kakongera kakagenda amezi atandatu, ni gake wakabona ku manwa.

Urukwavu rwo mu ishamba rutinya abantu cyane. Rurirukanka iyo rubonye umuntu kuko ruba mu ishamba , niyo mpamvu ruhora rwiteguye kwiruka iyo rubonye abantu kugira ngo ruhungire mu mwobo batarubona.

Inyoni ifite amabara yumutuku iri hasi, kandi izi nyoni zikunda kuboneka ahantu h'amashyamba cyane cyane muri parike y' Akagera.

Inyoni y'igishwi ni inyoni y'inyabwenge idashobora kurara hasi, mbese mu yandi magambo ishaka aho kurara ikarika icyari kugira ngo itereremo amagi.

Inyoni zifite amoko, ifite umunwa muremure, yitwa nyirabaraza. Iba mu bishanga cyangwa se mu migezi, ikarangwa no gutoragura iminyorogoto hirya no hino aho ziba.

Inuma ni inyoni y'inyamahoro, irangwa no kuguruka ku kigero cyo hejuru kandi igakunda abana bayo, cyane cyane iyo bageze mu mage bashaka kuyambura urubyaro, irabarwanirira rwose.

Inkende zirashimisha, zibera mu biti mu mashyamba. Ba mukerarugendo barazikunda, cyane cyane iyo baje mu gihugu cyacu kuzireba muri parike y'ibirunga, bagatanga amadovize akubaka igihugu cyacu.

Ikinyoni bita ikiyongoyongo ni inyoni iba ahantu h'ibishanga, ikunda gutoragura udusimba ndetse ikanazirana n'inzoka.

Ubwoko bw'inyoni buboneka mu mashamba cyane cyane muri parike y'Akagera ndetse n'Ibirunga zigasurwa na ba mukerarugendo bavuye mu mahanga.

Ingwe ni inyamaswa y'inkazi yanga abantu, ikunda inyama cane igatungwa n'udusimba duto. Iyo udusimba duto tubonye iyo nyamaswa turayitinya cyane tukiruka, kandi nayo ni inyamahane.